Ni abana batatu bose bahagaze kuri robine, bari gukaraba bakoresheje isabune kugira ngo intoki zabo zibashe gucya,...

Bazanye umwana we kwa muganga mubyeyi yicaye ku ntebe akikiye umwana, muganga ari kureba, ari gupima ngo arebe indwara umwana yaba arwaye.

Ni abantu bari kumwe n'inzego za polisi, baganirijwe ku ihohoterwa ry'abana cyangwa se rishingiye ku gitsina.

Ikirangantego kigaragaza izina ryo kwa muganga kandi bakaba bakemura ibibazo bijyanye no mu mutwe.

Ni abantu babiri bicaye ku ntebe imwe, umwe amufashe ku rutugu ari kumuganiriza kubijyanye n'ikibazo ashobora kuba afite kugira ngo amere neza.

Ni abantu bicaye abandi barahagaze, ishusho igaragaza yuko ashobora kuba ari kwa muganga bari kwifotoza.

Umwana ufite uburaso mu ntoki, arimo aroza amenyo kugira ngo ayakorere isuku ase neza, ntazagire indwara yo mu kanwa agira.

Umudamu wicaye wambaye amarinete, imbere ye hari ibinini ku meza, afite agacupa kavamo ibinini, asa nk'aho ari gufata icyo kinini.

Umukecuru ari kumwe n'umudamu umuganga, umukecuru afite igikombe kirimo umuti, umuganga afite ibinini ari kubimuha kugira ngo amuvure.

Ni ivuriro ry'abarwayi, imbere yaryo hari imodoka, iyo modoka ihagazeho umugabo, inyuma yabo hari abandi bantu batatu bari imbere y'iryo vuriro.

Ni abantu batandatu b'igitsina gore bagaragara nk'abaganga, kandi bakaba bari ku ivuriro ryitwa Legacy Clinics.

Ni umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga, umwana akaba yicaye ku gitanda cy'abarwayi, muganga arimo aramupima indwara ngo arebe iyo yaba arwaye.

Ni abantu batatu bambaye ibintu bisa, ariko bagaragara nk'abaganga.

Aho bita kuri resebusiyo aho abarwayi bicara bategereje kugira ngo muganga abashe kubakira amenye ibibazo bafite.

Ni icyumba bakiriramo abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ni abantu harimo abato, hakabamo n'abakuru bari ku murongo. Hari umuntu ubari imbere urimo urabakoresha siporo.

Icyuma cyo kwa muganga bifashisha kugira ngo barebe indwara zitandukanye z'abarwayi, akenshi bagikoresha kugira ngo barebe umugongo cyangwa amagufwa y'umuntu yaba yagize ikibazo, rero iyo bagishyizeho umuntu bakirambikaho barangiza bakamucengeza mo imbere kikamufotora kikareba ikibazo yaba afite.

Hari igiti cyitwa umuravumba tukifashisha mu buvuzi bwa gakondo. Kivura indwara nyinshi harimo ibicurane, inkorora,..

Hari ubwoko bw'imiti iri kugaragara, hakagaragara n'iminwa w'umuntu uri guseka amenyo agaragara, hakaba hariho n'ubusobanuro bw'iyo miti n'icyo ukora n'icyo yafasha ayo menyo.

Iki giti bakita umuravumba. Bakaba bawifashisha muri gakondo. Uvura indwara zigiye zitandukanye, ibicurane, umuntu urwaye ibiheri, n'izindi nyinshi.

Ni umudamu uhagaze uri kugurisha imiti imuri imbere, akaba ari kuganira n'umukiriya, ariko iyo miti ikaba ari iya gakondo.